Abantu benshi bahagaze imbere bitaruye abandi, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo bamabye ikositimu, inyuma yabo hari ibyapa by'ubururu byanditseho saniramu, bakaba barimo barahererekanya ikindi cyapa kinini cy'ubururu ndetse cyanditseho amagambo ya saniramu Rwanda biri mu mabara y'umweru.

Umugore usa inzobe akaba yambaye agapira k'ubururu ndetse yambaye n'igisarubeti, hirya ye hakaba hari amagambo ya buridamu ikigo cy'ubwishingizi, kivuga ngo ubwishingizi bwihariye kandi buhendutse ku matsinda n'ibigo bito, bakaba batubwira ko ushobora gukora ukoresha ubu bwishingizi bwo kwivuza.

Amaterefone menshi agerekeranye, afite amabara y'umweru ndetse n'umukara, akaba ari kwamamazwa n'ikigo gitanga ubwishingizi, kikaba kivuga ngo duhe agaciro ibyo uha agaciro kurusha ibindi, biri mu mabara y'umweru ndetse n'ibyatsi, hakaba ariyo na nimero wahamagara kuri watsapu.

Urupapuro rufite amabara y'umweru n'ubururu rwanditseho tugeze mu gihe cy'imvura ku ruhande rw'iburyo yanditseho radiyanti mu kaziga k'umweru n'ubururu hariho inzu ifite irangi ry'umuhondo hari ibyondo imbere yayo n'imashini isa umuhondo n'umukara, hariho inzu yasenyutse n'inzu ifite irangi ry'ubururu.

Icyapa kiririmo ibara ry'umweru hejuru ibumoso handitse landeti yacu mu kaziga k'ubururu n'umweru hasi yanditseho ubwishingizi bw'inkoko iruhande rw'iburyo, hari hagaragara inkoko ziri gutora hasi hakaba nimero babarizaho ubashatse ndetse n'urukuta rwabo rwa interineti.

Inzu nziza cyane, ikaba ari inzu ituyemo abantu, hanze hakaba haparitse n'imodoka y'umweru, hakaba hari n'amapave imodoka icamo n'abantu bacamo, hirya hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti byinshi kandi birebire, akaba ari kampani y'ubwishingizi ya Radiant ikubwira ko inzu yawe ni igishoro cyawe kinini ikaba n'agaciro kawe, bakaba bagushishikariza kuyigana ukaba wabona inzu yawe.

Ikiganza cy'umuntu gifite mu ntoki zacyo telefone. Telefoni mo imbere ikaba irimo amabara y'ubururu bakubwira ngo urakaza neza kuri banki ya Kigali. Ikaba ari apulikasiyo ushobora gukoresha utiriwe uva mu rugo ukabasha, gukora serivisi izo ariyo zose zitangwa na banki, kubitsa, kubikuza, ndetse no kohereza amafaranga, n'ibindi bikorwa banki itangamo serivisi.

Inzu bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo iby'ubukorikori, akaba mo imbere harimo ibikuta bisa umuhondo, hasi harimo amakaro asa umweru, hakaba harimo utu etajeri tugiye turiho ibicuruzwa birimo imyenda, amashakoshi, imitako, amahembe, udukomo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugore uhagaze afite amafaranga mu ntoki, akaba yambaye umupira muremure uza ikigina, inyuma ye ari etajeri zigiye zirimo ibicuruzwa byinshi, akaba ari umucuruzi, ibicuruzwa birimo umunyu ndetse n'ibindi bikoreshwa mu guteka.

Abantu bari kukazu mu inzu igurisha amayinite, abayobozi noneho bagiye nko kubikuza cyangwa kubitsa cyangwa kugura ikarita yo guha....

Umukobwa wambaye inkweto z'umweru ndetse n'ikanzu igiye irimo utubara twinshi, ndetse n'uturabyo. Akaba afite n'ibisuko birebire bifunzemo agatambaro k'umukara. Ari mu iduka arimo aritegereza ibicuruzwa biri muri etageri. Harimo amavuta, imyenda, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iduka rinini abantu baguriramo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo iby'abagore, hakaba harimo ibitenge by'amabara menshi ibitenge bikaba bimanitse ibindi bizinze hasi ukaba ushobora kuza kwiguriramo harimo ibitenge byitwa wagisi ndetse n'ubundi bwoko bwinshi.

Iyi nzu bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye hakaba harimo umugore uhagaze wambaye agapira hejuru k'ubururu arimo araseka, inyuma ye hakaba hari ibishushanyo by'imitako, hakaba hari utu etajeri dusize amabara y'umukara ndetse n'utuntu tujyaho imyenda ikaba iyo nyubako icurizamo imyenda n'imitako ndetse ikaba harimo n'udusakoshi tw'abagore.

Iduka ricuruza rikanagurisha imikufi akaba hari imeza iteretseho utuntu dukoze nk'igice cyo hejuru cy'umuntu dufite amabara y'umukara tukaba turiho udushanete cyangwa imikufi abagore bakunze kwambara mu nda, cyangwa mu gatuza akaba ari n'igikuta gisa umweru kimanitseho indi mikufi igurishwa.

Iduka rinini ricuruza ibikoresho bigiye bitandukanye akaba ari iduka ricuruza ibikoresho birimo inkweto, imyenda ndetse n'indi mitako wataka mu nzu hanze mimbere hakaba harimo ibikuta bisa umuhondo ndetse n'ibindi birangantego byiza bishobora kugurishwa hasi akaba ari amakaro y'umweru.

Imodoka nziza y'umukara iparitse, ikaba ifite purake yanditseho Kigali Cars Market, ikaba ari imodoka uko bigaragara ari nshyashya, ikaba ari mu bwoko bwa Toyota hybrid, ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu n'esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda, aho hantu iparitse y'irya y'aho hakaba hateye ibiti ndetse hari n'andi mazu menshi.

Amamodoka menshi aparitse, akaba afite amabara agiye atandukanye harimo n'ay'umukara, hakaba ari ahantu hameze nk'aho bagurishiriza imodoka, hakaba hatwikiriye cyangwa hasakaye mu yandi magambo, inkuta zawo zirasa umweru n'amakaro ara.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa Hyundai iparitse hamwe nandi mamodoka menshi ifite icyapa cya ndistseho kigali Carizi maketi iparitse imbere yinzu ifite irangi ry'umuhondo n'amadirishya y'umukara na konteneli y'umutuku .

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto mweru n'ishati y'umweru, undi yambaye ipantaro ya kake n'umupira w'umukara bakaba bari guhererekanya urufunguzo rukoze mu gipapuro, imbere yabo hari imodoka y'igikamyo iri mu mabara y'umweru, hirya yabo hari ibiti birebire kandi byinshi bakaba bahagaze ku mapave, hirya hari agatente kandi k'umweru kanditseho ABG.

Abagabo babiri bafashe ku rufunguzo umwe wambaye ishati y'umweru ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara undi wambaye ishati isa ivu ipantaro y'ikigina n'inkweto zikigina urufunguzo rufite ibara ry'umweru rwandikishijemo amabara y'umutuku n'umukara impande yabo hari imodoka isa umukara icanye amatara bahagaze imbere yinzu yanditseho Akagera motors.

Abagabo babiri bahagaze akaba umwe yambaye ipantaro y'ikigina n'umupira w'umutuku w'amoboko magufi ndetse n'ingofero, undi musore uri ku ruhande yambaye ikoboyi ishati y'amaboko maremare bakaba bari guhererekanya ikintu cy'igipapuro gikoze mu ishusho y'urufunguzo, inyuma yabo hari imodoka iri mu mabara y'umweru bameze nkaho umwe ari kugura imodoka, hirya hari amazu yaho bari.

Imodoka enye ziparitse zifite amabara y'umweru n'umukara, imbere hari utwapa duto dufite ibara ry'umuhondo, inyuma hari ibiti byinshi n'inzu ifite ibara rirya gusa nk'ivu ziparitse ahantu hari amapave.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'agapira k'umweru k'amaboko magufi, inyuma ye hakaba hari imodoka nyinshi hasa nk'aho ari inzu baguriramo imodoka hakabamo y'umweru ndetse n'indi modoka y'umukara zo mu bwoko bwa Yundayi, inzu ikaba ifite ibikuta by'umweru, hirya hari n'icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho Yundayi.

Imodoka iparitse ikaba iparitse ahantu hasi harimo amapave, hirya hari inyubako ndende ifite amabara y'umuhondo, ikaba ari imodoka igurishwa yo mu bwoko bwa Merisedesi benzi, ikaba igurishwa miliyoni makumyabiri n'eshatu z'amafaranga y'u Rwanda, ifite purake yanditseho Kigali karizi maketi.

Abantu babiri bahagaze, hakaba harimo umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ipantaro n'umugore wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'agakoti, bakaba umugore bari kumuha igipapuro gikoze mu ishusho y'urufunguzo, inyuma ye hakaba hari imodoka ndetse n'inzu ibari inyuma ikaba yanditseho Akagera motozi. Bikaba bigaragara ko umukobwa yatsindiye imodoka.

Abagabo batatu bakaba bahagaze barimo barahemba umugabo umwe uri hagati wambaye agapira k'icyatsi, bafite igipapuro gikoze mu buryo bw'urufunguzo, inyuma yabo hakaba hari imodoka nini y'igikamyo y'ubwoko bwa fuso, ikaba isize amabara y'umweru n'umukara, inyuma yabo hakaba hari n'inzu ndende.

Abagabo batatu, barimo umwe uri hagati wambaye akajire. Abandi bagabo batatu bose bakaba bafite ikintu kiri mu ishusho y'urufunguzo, bakaba barimo barahabwa imodoka zibari inyuma. Imodoka nini zisize amabara y'umweru. Hirya y'abo hari amatente y'umweru ndetse n'ibiti byinshi bigiye bizengurutse ahantu bari.

Inyubako irimo ibiro bicuruza cyangwa bikagurishirizamo imodoka cyangwa ibice by'imodoka, hakaba harimo umugabo wambaye ipanta y'ubururu n'ishati y'amaboko magufi y'ubururu bwijimye, akaba ateruye akana, mo imbere harimo umusore wambaye agapira k'umweru. Ibyo biro bikaba bifite inkuta zifite ibara ry'ikigina, ndetse bikaba bitatsemo n'amabara y'umutuku.

Icyumba gifite igikuta cy'umweru, kuri icyo gikuta hamanitseho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho ubwoko bw'imodoka bwitwa yundayi , imbere haparitse imodoka zitandukanye zifite amabara atandukanye harimo iy'umukara n'indi ijya gusa umukara hasi hasa umweru.

Imodoka nyinshi zipanze k'umurongo kandi zigurishwa, zikaba zifite ibara ry'umweru n'umukara, hakaba hari abagabo babiri umwe wambaye imyenda y'umukara, akaba ari abagabo babanyamahanga bakaba bari ahantu hari igitaka, hirya yaho hari amazu maremare y'amagorofa menshi ndetse hakaba hakikijwe n'ibiti byinshi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, imbere ye hari aka meza akaba yicaye ku kameza hateretseho inoti nyinshi z'amafaranga y'amadorari y'amanyamerika, ku ruhande hakaba hari n'imashini ibara amafaranga, akaba ameze nk'ukora muri serivisi zitanga cyangwa zikoresha amafaranga mu buzima bwa buri munsi.

Abantu bahagaze imbere akaba ari muri banki ifite amabara yiganjemo icyatsi, bakaba bari gusaba serivisi zitangwa na banki, kubitsa, kuguza ndetse n'izindi. Imberere hakaba harimo akantu kameze nk'ibiro, karimo mudasobwa irimo umuntu uri gutanga serivisi. Iyo nyubako itatswe ndetse n'ibipirizo byinshi.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki, akaba afite amafaranga y'amadorari mu ntoki inoti nyinshi z'ijana ndetse no ku ruhande rw'ibumoso akaba afite igipfunyika cy'amafaranga, ku ruhande rwayo n'ibindi bipfunyika byinshi by'amafaranga ndetse na mubazi cyangwa karikireta, bikaba biteretse ku meza afite ibara ry'umukara.

Ukuboko k'umugabo gufashe mu ntoki itasi irimo amata ndetse imbere ye hakaba hari akameza gateretseho isahani iriho keke ndetse n'ikiyiko n'ikanya, akaba ameze nk'aho arimo arafungura mu duka ricuruza ibyo kurya, imbere ye hakaba hari abandi bantu baje gusaba serivisi zitandukanye.

Umukobwa wambaye ikabutura y'iroza akaba yambaye agapira'umweru n'inkweto, akaba aje kugura amata akaba afite n'agasakoshi ku rutugumo imbere hari undi mugabo ucuruza amata hari ibyuma bitunganya amata ndetse n'amata menshi ari mu icyuma amakaro akabasa n'inkuta zi ziyonze zikaba zisa umweru hari n'ijag ikoreshwa mu gupima amata iteretse aho imbere.

Umuntu wambaye isaha ku kuboko akaba yambaye n'agapira k'umukara akaba ahagaze, iruhande rwe hakaba hari icyuma gikonjesha kiri mu ibara ry'umweru n'ikindi cyuma kirekire gikonjesha kiri mu mabara y'ubururu kirimo ibishushanyo by'amata, hakaba hari n'ibindi bicuruzwa mu iduka birimo na fanta.

Igikuta gisize irangi ry'ubururu hariho igikonjesha gisa umweru hashushanyijeho inyoni mu mabara y'umweru handitseho inyange hari umukobwa uhagaze imbere yamakarito asa umweruru, wambaye ipantaro yumukara agapira k'ubu n'irose ufite anvelope mu ntoki n'umwana uhagaze impande y'umusore

Ikiganza cy'umuntu gifashe ikintu cyo kurya cya keke, hirya hakaba hari intebe ndetse n'imeza. Uko bigaragara ni mu iduka bacururizamo amata, umuntu akaba yaje gufungura amata ndetse akaba arikurisha na keke. Iyo nyubako ifitemo n'ibyuma bitunganya amata, hasi amakaro asa umweru.

Umugore wicaye, akaba yambaye itaburiya y'umweru, asa nkaho akora aho hantu, inyuma iyo nzu ifite ibikuta by'umweru, hakaba hari ikimashini kinini kiriho icyapa cy'umweru cyanditseho Inyange mirlkizone, akaba ari gukura amata muri icyo cyuma, icyo cyuma gifasha kudatuma amata apfa, inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, ndetse n'utundi tuntu tuyaherekeza.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ndetse n'ibindi biyakomokaho. Hakaba harimo icyuma kinini gifasha amata kugira ngo adapfa, akaba iyo nyubako ifite ibikuta byubakishijwe amatafari ahiye ndetse harimo n'utumeza n'intebe hakabamo n'indobo zigaragara ko harimo ibicuruzwa birimo n'amandazibcyangwa amakeke.

Ikiganza gifashe inote y'igihumbi y'amayero inoti ya bibili y'amanyarwanda, inote y'ijana na y'amadolari, inote ya bitanu y'amanyarwanda, inote y'ijana y'amayero ugifashe yambaye ishati isa irose amafaranga akaba ari urupapuro rusa umuhondo n'umweru.

Ibiganza by'umuntu bifashe mu ntoki terefone. Muri iyo telefone ikaba irimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru . Bakaba bakubwira ko ushobora gukoresha uburyo bwo kuri murandasi ukishyura .Ukaba ushobora kwishyura ukoresheje airtel , ni apurikasiyo ya airtel ndetse n'ubutumwa bwa airtel bakubwira ko ushaka kugura amamega ukoresheje terefone cyangwa apurikasiyo ya airtel.

Umugore uhagaze akaba yambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'agakomo ku kiganza akaba afite telefone mu biganza bye bibiri irimo uburyo ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, hakaba harimo amabara y'umuhondo muri telefone ye.

Abagabo babiri bahagaze umwe akaba yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu undi akaba yambaye furari mu ijosi ndetse agapira k'umweru afite telefone mu ntoki arimo arereka undi uburyo wakoresha sipni bakaba bakubwira ko ushobora gutumira inshuti yawe muri spini ukaba utsindira amafaranga magana atanu kuri buri nshuti utumiye.

Uburyo ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga mu buryo bwitwa sipini. Hakaba hari telefone ebyiri, imwe irimo amabara y'umukara ndetse n'indi irimo amabara y'umweru ndetse n'icyatsi. Yerekana amafaranga ufite kuri konti ndetse n'izindi serivisi ushobora gukorera kuri urwo rubuga. Urubuga rukaba ari urwa sipini ruterawe inkunga na I&M banki.

Abantu benshi bamwe bahagaze abandi bicaye. Abicaye harimo umugabo wambaye agapira k'umweru n'umukara, ndetse n'umugore wambaye agapira k'umweru unasutse. Imbere yabo hari imashini ifotoza, ndetse na mudasobwa na telefone. Abahagaze harimo abagabo baje kwaka serivise zigiye zitandukanye, bakaba bari mu nzu y'ubucuruzi.

Inote zifite amabara atandukanye yo mu gihugu cya Tanzaniya arimo ibihumbi icumi, ibihumbi bitanu, ibihumbi bibiri n'igihumbi n'ibiceri bifite amabara atandukanye.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga umwe akaba afite mu ntoki amadorari y'amanyamerika n'undi wambaye imyenda y'umweru afite agasakoshi k'umukara mu ntoki arimo arakura amafaranga mirongo itanu bakaba bagiye guhinduranya amafaranga hakaba iruhande rwabo hari akameza ndetse hariho n'agasani gato n'agakawa mutasi.

Inote y'amafaranga icumi yo mu gihugu cya congo, ku ruhande rw'iburyo no hasi hari umubare utandukanya inote n'izindi note, hagati no hagati hari ikirango cya banki yo muri congo, imoso hari ikirango kiba kiri ku note zo muri congo, kimeze nk'aho hari ibishushanyo bibiri bifatanye.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'ubururu. Kikaba ari icyapa cyerekana ko muri iyo nyubako hakorerwamo ubucuruzi ndetse no guhinduranya kw'amafaranga y'amanyamahanga. Bagiye kuhakwereka uko amafaranga y'amanyamahanga wayagura ndetse n'uko wayagurisha. Hirya hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse abanyamaguru bari gucaho. Hari n'imodoka ziri gutambuka mu muhanda. Hari n'amapoto maremare acaho insinga z'amashanyarazi.

Ibiganza bibiri by'umuntu bifite amafaranga, ashushanyijeho umuntu, umuntu ufite umutwe utariho umusatsi akaba yambaye amarinete, akaba ari amafaranga yo mu Buhinde.

Ibiro bihindura amafaranga ndetse bigacuruza n'amafaranga y'amanyamahanga, hakaba hari icyapa kinini cy'umweru ndetse n'icyatsi, kikaba kiri mu nzu igerekeranye, hirya hakaba haparitse ibinyabiziga bya moto, hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, hakaba ku ruhande rwaho hari n'andi maduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu nini ikaba isize amabara y'umutuku ndetse n'ubururu bwijimye, ikaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga y'abanyamahanga, hakaba hari ibiti bigiye bikikije ndetse n'ubusitani hanze, hakaba hari n'andi maduka agenda akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inzu ifite amarangi y'umweru n'umutuku iruhande rwayo haparitse imodoka yo mubwoko bwa benzi y'umukara, ifite urugi rw'ikirahure rushushanyijeho amadarapo y'ibihugu, hejuru hakaba har' icyapa cyanditseho moneyGram, mw' ibara ry'umukara.

Ibiro bihindura ndetse bikanacuruza amafaranga y'amanyamahanga bikaba byitwa muhabura bikaba bikorera i Kigali, hakaba hari inzu nini y'igorofa rimwe isize amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, imbere yaho hakaba hari igiti kirekire.

Umugore wambaye imyenda y'umukara ndetse n'amaherena. Akaba afite ibipfunyika bibiri by'amafaranga mu ntoki. Imbere mu biro harimo abantu benshi hakaba hari umugabo imbere we wambaye ishati y'amaboko maremare urimo uramuha serivisi. Akaba ari mu biro by'igura n'igurisha ry'amafaranga y'Amanyamahanga cyangwa ivunjisha.

Inzu irimo intebe nyinshi zimwe z'umutuku izindi z'igitaka, hirya hakaba hari igikubita gisa umuhondo, imbere y'intebe hakaba ari akameza, hakaba mu nzu harimo n'amarido ndetse n'ivaze iteretsemo igiti, hakaba harimo n'insakazamashusho.

Inzu bacururizamo ibikoresho bikomoka ku mbaho, hakaba harimo utubati tureture tubikwamo ibikoresho, hakaba harimo intebe z'amabara agiye atandukanye; umweru, umukara, ndetse igikuta cy'inzu kikaba gisa umweru n'amatara yaka. Abantu bakaba baza kuguriramo ndetse bakaba banagurishirizamo ibikoresho byinshi bikorerwa n'imbaho.

Iduka bacururizamo intebe hakaba hariyo intebe zisa umukara ndetse n'cyatsi, imbere yaho hakaba hari utumeza tw'umukara, hirya hakaba hari ikigega kibika amazi ndetse n'igipangu cy'umukara, hakaba hateye n'ibiti byinshi ndetse n'indabyo.

Iyi nyubako icururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshejwe n'mbaho. Haka harimo intebe ndetse n'utumeza. Muntebe harimo intebe z'umutuku ndetse n'umweru ndetse n'ikigina ikaba biri hanze iruhande rw'abari inyubako ifite ibirahuri by'umukara ndetse n'imiryango y'ikigina.

Inzu icururizwamo ibikoresho bituruka ku mbaho, ikaba hasi ifite amakaro y'umweru, urukuta rukaba rusize ibara ryera, harimo intebe zifitemo imisego, ifite ibara rya kake, intebe zikaba zisize ibara ry'umukara, hakaba abantu baza kuguriramo intebe utubati ndetse n'ibindi bikoresho bikorwa mu mbaho.

Icyumba, icyumba gifite amarido y'umweru, hakaba harimo n'igitanda, muri iki gitanda kikaba gisa umweru kiriho n'amashuka agiye afite amabara atandukanye, icyo gitanda kikaba gisa kake ndetse hakaba ku ruhande akabati gatoya gafite amabara y'ikigina, amakaro akaba asa n'umweru yo muri iki cyumba.

Inzobe nini cyane y'amagorofa menshi ikaba iza umweru ikaba yanditseho olamo hoteli mu mabara manini kandi agaragara hakaba ariho n'imitako y'imigongo ya kinyarwanda, hari n'amadarapo y'ibihugu bigiye bitandukanye amanitse imbere yayo hari n'ibiti byinshi.

Inzu igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya asa nk'ivu, ku ruhande hasize irangi risa nk'ivu, imbere yaho haparitse imodoka ebyiri iy'umweru n'iy'ubururu, iyo nzu ikaba isakaje amategura, impande yayo hari ibiti n'ubusitani busa icyatsi.

Intebe zegamirwa zifite ibara ry'umukara ziteretse imbere y'amazi afite ibara ry'ubururu akikijwe n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi n'inzu ifite amabara ya move n'icyatsi.

Inzu nini icumbikira abantu ndetse hakaba hari mo mu imbere inzu nini ikorerwamo inama ikaba ifite intebe nyinshi ziri ku murongo imbere yayo hakaba hari ameza hariho uducupa turimo amazi ikayi n'ikaramu hakaba imbere hari isakazamashusho yo mu ibara ry'umweru ndetse n'inyuguti ya m hakaba afite parafe y'umweru ibikuta bikaba bisa umuhondo.

Inyubako abantu bacumbikamo, hakaba harimo intebe zigiye zitandukanye, zisa umukara ndetse zifite n'imisego y'umweru, imbere yaho hakaba hari utumeeza abantu bakoresha mu gihe bicaye kuri izo ntebe, iyo nyubako icumbikamo abantu ikaba yitegeye ibiti byinshi cyane ndetse n'amashyamba.

Ni inzu icumbikira abantu mu mugihe cy'igihe gito hakaba harimo umusore wambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu akaba ahagaze imbere ye hakaba hari imeza ndende akaba afite mudasobwa imbere ye akaba muri iyo nzu harimo amaparafo y'umuhondo, amakaro y'umweru, ibikuta bikaba bisize ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara hari n'intebe abantu bakwicaramo mugihe bategereje guhabwa serivisi runaka.

Inzu nini igeretse ikaba isize amabara y'umutuku, ikaba hanze hari ibiti biri mu mavazi ndetse hakaba hari n'ubusitani buteyeyemo uturarabyo ndetse n'iti ikaba ari inzu icumbikira abantu mu gihe by'igihe gito izwi nka hoteli hirya yayo hakaba n'andi mazu.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Inyubako icumbikira abantu mu buryo bw'igihe gito izwi nka hoteli. Ikaba ari inyubako ndende kandi nini. Ifite amabara y'ikigina ndetse n'umweru. Yubakishije amatafari ahiye. Hanze yaho hari ubusitani bwiza buteyemo n'ibiti. Hakaba harimo n'udutebe abantu bakwicaraho barimo baraganira. Hakaba hateye n'ibiti byinshi. Hirya y'iyo nyubako hari n'izindi nyubako ndende.

Imeza isa umukara hateretseho amacupa abiri y'amazi, ikirahure, ikawa n'itara ku ruhande risa umweru n'utundi tuntu dutoya turi mu dushashi.

Abagabo babiri bahagaze bari mu biro bya kampani y'ubwishingizi. Umwe akaba yambaye ikositimu y'ubururu, akaba ari umuzungu, ndetse n'undi akaba ari hiryo w'umwirabura wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, ndetse n'umupira w'umweru. Imbere yabo hari intebe y'umukara ndetse n'imeza y'umukara.

Abantu babiri, bicaye mu ntebe z'umukara, umwe akaba yambaye ikositimu ndetse n'ishati y'umweru, imbere yabo hari utumeza ndetse no ku ruhande hari akameza kariho na mudasobwa akaba ari biro bya kampani y'ubwishingizi, hari n'ivaze irimo igiti cy'umutako, hirya hari n'amazi ushobora kunywa mu gihe ugize ikibazo cy'inyota.

Igorofa ye mu mabara y'umweru n'umuhondo hari icyapa cy'ubururu n'amagambo yandikishije ubururu handisteho sanirami, imbere haparitse imodoka z'umweru n'umukara, ni byapa by'umutuku n'umweru kandi ikaba iri kuri kaburimbo umuntu kugenda imbere yazo hari ibiti.

Ni inzu nini y'amagorofa menshi, ikaba isize amabara y'umweru, ikaba ifite aho umuntu yasohoka aciye mu madirishya, amadirishya akaba asa umukara, ikaba ikoreramo compani y'ubwishingizi ikaba ari icyapa kinini gisize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo byanditseho Insuarence bivuze ubwishingizi, hirya hakaba hari n'andi maduka.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo hariho icyapa cy'ubwishingizi Radiant iri mu mabara y'ubururu n'umweru, imbere y'iyo nzu ari ikinyabiziga k'ipikipiki gifite ibara ry'umukara, umutuku, umweru ndetse n'umuhondo. Imbere y'iyo nzu hari indabo ziri mu mavaze hari n'amapave.

Icyapa cy'umweru kimanitse ku igorofa handitseho amagambo rizavu peyi, urukuta rwa interinete rwitwa daburiyu, daburiyu, daburiyu akadomo rizavu peyi akadomo, na nimero wabasangaho.

Ibiro bya kampani y'ubwishingizi bikaba bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba afite inkuta z'umweru, hakaba hari ibipirizo binini bifite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'iiroza, hakaba hari icyapa kinini cyanyanditsemo amagambo mu na a kiri mu mabara y'ubururu.

Abantu benshi bicaye bari mu biro, ndetse n'abandi baje gushaka serivisi, akaba ari ibiro bya company y'ubwishingizi, abakozi babo bakaba bambaye imyenda y'umweru hejuru, bicaye mu ntebe, imbere yabo hari mudasobwa, hakaba hari n'abantu bari hirya bicaye bategereje guhabwa serivisi zigiye zitandukanye, bari mu nzu ifite ibikuta by'umweru, bisize amabara y'umweru.

Igorofa rirerire rigereretse inshuro nyinshi, rifite amadirishya y'ibirahure bifite ibara ry'ubururu, ku ruhande hasa umweru, hasi imbere hateye ibiti by'imikindo hakaba handitseho mowa inshuwarense.

Ni inyubako ndende ifite etaje ebyiri. Ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara. Inkuta zaho zikaba zisa umuhondo ndetse na shokora. Imbere yaho hari ibyatsi biteye ndetse n'indabyo ndetse hakaba hateye n'ibiti. Iruhande rwayo hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu. Kikaba kikweka ko aho hantu hakorerwa na kampani y'ubwishingizi.

Inzu nini ikaba ifite ibirahure bibonerana ikaba ifite inkuta z'umuhondo hakaba ku ibirahuri hariho ibyapa by'umweru ndetse n'icyatsi akaba ifite amatsima hasi ndetse n'inyuma hari amatafari ahiye ari hasi ku ruhande hari indi nzu ifite ibirahure ndetse n'inzugi z'umukara.

Umukobwa wambaye ishati y'umukara urimo uraseka, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, kuruhande rwe hari intebe agaragaza ko hari imyanya muri icyo kigo, akaba ari banki ya BPR bakubwira ko ushobora kubagana barimo barashaka abakozi bakaba barimo bagenda bashaka abakozi ku myanya igiye itandukanye.

Ahantu hasa nk'ahantu abantu basohokera bisa nk'akabari cyangwa se ahantu abantu bajya kwiyakirira bakaba bahafatiramo amafunguro ya saa sita, hari mu ibara ry'umutuku, hariho intebe z'umutuku ndetse n'imitaka yayo iratukura, birasa nk'ahantu mu gipangu hakinjiramo n'imodoka z'abantu baba baje kubagana.

Umukobwa wasetse watangaye ufite terefone igendanwa y'umukara, wambaye umupira w'umuhondo, ikoti ry'ubururu, wambaye isaha, ufite imisatsi iboshye. Hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo n'umweru.

Igorofa riherereye ku muhanda w'umukara ifite amarangi y'umutuku n'iroza ifite amadirishya y'ibirahure hariho icyapa cyanditseho bijuteri hazwi nkaho bagurishiriza imiringa cyanditse mu mabara y'umweru ku irangi ry'umutuku.

Abantu benshi bakaba bari mu isoko harimo abagabo ndetse n'abagore, hari abicaye bategereje abakiriya ndetse n'abaje guhaha, mu bicuruzwa bafite harimo: ibitoki, inyanya, karoti ibitunguru, intoryi ndetse n'ibindi byins, bakaba bategereje abakiriya abandi barimo baragura bacirikanya bakaba bari mu nzu ndende itwikiriye n'amabati.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari mu isoko, hakaba hari hagati yabo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo amakamyo, imodoka zisanzwe, abatwaye amamoto ndetse n'abatwaye amagare, tukaba harimo n'abantu benshi bikoreye imizigo, hirya yabo hari amazu menshi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi biganjemo abagore ariko harimo n'abagabo bakaba bari mu isoko, mu isoko harimo abacuruzi barimo baracuruza ibiribwa birimo: ibitoki, karoti, intoryi, ibitunguru, amafu ndetse n'ibindi byinshi.

Abantu benshi bahagaze abandi bagendagenda ku isoko. Isoko rikaba ririho isikariye z'umutuku ndetse n'utwuma turi ku ruhande tw'ubururu, abantu bakaba barimo baracuruza, bimwe mu bicuruzwa birimo inkweto zikozwe zikorewe mu Rwanda, ndetse n'inkweto zavuye hanze. Abantu bakaba bahagaze bari guciririkanya ibiciro n'abacuruzi.

Umuhanda ugenderwamo n'imodoka zigiye zitandukanye hakaba harimo imodoka ndetse n'amamoto ndetse n'amagare akaba ari guca mu muhanda, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru duparitsemo imodoka ndetse n'amagare n'amamoto abantu nabo bakaba harimo baracaho, kuruhande y'utuyira tw'abangurura hari amazu maremare ageretse ndetse n'andi asanzwe akorerwamo ubucuruzi.

Inyubako ndende y'amagorofa menshi ikaba ifite ibirahure bitabonerana, ikaba ifite ibyapa byanditseho biri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi ,kimwe kiri mu mabara y'icyatsi cyanditseho dapushili, ikindi kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho amarido, amatisi, veruru, n'ibindi. Iyo nyubako ikaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi cyangwa se ari nk'isoko.

Abantu benshi hakaba barimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari ahantu mu isoko, harimo abantu baje guhaha, ndetse akaba n'umugore wicaye urimo uracuruza. hari imifuka igiye irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo ibirayi, hakaba hari n'abandi bantu kandi barimo barinjira muri iryo soko.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko. Hakaba hari abantu bicaye barimo baradoda abandi bicaye bategereje ko bahabwa serivisi. Hakaba n'abandi bantu barimo baraca rwagati mu isoko. Isoko rikaba risakaye. Hari utubati tugiye turimo imyenda ndetse n'indi myenda myinshi ikaba imanitse kuri ayo maduka. Harimo ibitenge, n'imyenda y'abagore, ndetse n'iy'abana.

Abantu barimo baragenda genda, hakaba hari n'abahagaze, hakaba hari amazu arimo arakorerwamo ubucuruzi. Aho hantu ni mu isoko, hari n'ibicuruzwa byinshi bigiye bimwe biri mu nzu ibindi biri hanze, hakaba harimo ibikapu imyenda ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bari mu iduka, akaba ari abantu b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, iduka rikaba ryiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hari ibyapa byanditseho airtel mu mabara y'umweru, bakaba bicaye bategereje serivisi, abandi bahagaze barimo barahabwa serivisi, ku gikuta hari insakazamashusho.

Akaduka gato gasize amabara y'umutuku kakaba gakoreshwa muri serivisi za mobayile mani, mu kubitsa, ndetse no kubikuza, no kohereza amafaranga, hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku, ndetse hakaba hari n'umugabo w'umuzungu wambaye agapira k'amaboko maremare, kariho amabara y'umukara ndetse n'umuhondo, arimo arasaba serivisi, hirya ye hari abandi bantu benshi barimo baragenda, ndetse n'ibinyabiziga biparitse.

Abantu benshi bari mu cyumba, icyo cyumba kikaba gifite parafo y'umweru bikuta bikaba bisa nabyo umweru, hakaba hari abantu bambaye udupira tw'umweru ndetse n'urw'umuhondo, bameze nk'aho bakora muri iyo nzu, bakaba bakorera emutiyeni mobiyiro mani, imbere bakaba bafite mudasobwa, hakaba hari n'abandi bantu baje gusaba serivisi harimo abagabo n'abagore bakaba babari imbere.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame, arimo araseka yambaye ikositimu y'umukara, ishati y'ubururu bwerurutse ndetse na karuvati ndetse n'amarinete, yazamuye n'ukuboko, ameze nk'uri gusuhuza abantu.

Akazu k'umuhondo kamanitseho ibyapa bifite amabara atandukanye, harimo umuhondo, umweru, ubururu n'umutuku, hicayemo umugore n'umugabo mo imbere, umugore wambaye umupira w'icyatsi ufite imisatsi iboshye y'umukara, hanze yahagaze umukobwa wambaye umupira w'ubururu, ijipo y'umukara ufite imisatsi iboshye n'umugore wambaye umupira w'umukara n'ikanzu, n'umugabo wambaye i rose n'umukara.

Abantu benshi akaba ari abantu biganjemo abagabo bakaba ari abagabo bambaye udupira tw'umutuku bameze nk'a bakorana n'ikigo cya eyateli bakaba aba bantu bari mu matente y'umutuku ariho ibishushanyo by'umweru mu magambo yanditseho eyateli akaba ari n'abandi bagabo baje gusaba serivisi zigiyehe zitandukanye bakaba bari mu kayira k'amanyamaguru iruhande rwabo ari inzu ndende ndetse n'ibumoso bwabo hakaba inzira icamo imodoka.

Ikiganza kiri gukanda telefoni igendanwa y'amatushi handitsemo shyiramo amafaranga, imbere hari icyapa gifite ibara ry'umuhondo handitseho ishyurana momo peyi.

Akazu k'umutuku kanditseho amagambo mu ibara ry'umweru gafunguye mo imbere gasa umweru harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku n'umweru n'umukara, ufite telefone mu ntoki, hirya ye ibumoso hari akazu k'umuhondo kanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku n'umukara n'umweru n'ubururu harimo abagabo batatu.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ku ruhande rwayo hari akayira k'abanyamaguru, ndetse abanyamaguru bakaba barimo baragendamo abandi bitegura kwambuka, ku ruhande rw'akayira k'abanyamaguru hari akazu kimukanwa ka mobile money, kakaba gasize amabara y'umuhondo, hakaba harimo umugabo uhagazemo urimo uraka serivisi zo kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Abagabo babiri bari kuganira umugabo umwe wambaye agapira k'amaboko magufi karimo amabara menshi y'umukara, umweru ndetse n'umutuku, akaba afite igitabo mu ntoki ubwo undi mugabo akaba yambaye agapira k'umuhondo asa nk'aho ari umukozi wa Emutiyene akaba arimo aratanga serivisi imbere ye hariyo imeza, ikaramu, ikayi ndetse na mudasobwa. Inyuma yabo hariho ibyapa binini by'umuhondo ndetse n'umweru byamamaza Emutiyene.

Ni mu nzu mu cyumba kigairi cyahariwe gukorerwamo inama hateraniyemo abantu batanu abagore n'abagabo, umwe muri bo ari imbere ari kubasobanurira yifashishije ikoranabuhanga.

Ipikipiki yanditseho rada gatandatu kane gatandatu ca iriho ikintu gitwarwamo ibyo kurya byanditseho vuba vuba mu ibara ry'umweru, ahandi hose hasa icyatsi ipikipiki isa umutuku umweru n'umukara, ihagaze impande y'umuhanda w'umukara.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba hari hirya utuyira tw'abanyamaguru ndetse na ruhurura. Hakaba hari moto iparitse ku ruhande, umugabo uvuyeho akaba yambaye agapira k'ubururu, akajire, ndetse n'ipantaro. Ndetse akaba afite na kasike mu mutwe. Imoto ye inyuma hari akantu arimo arakuramo ibicuruzwa. Bigaragara ko ari kugeza ku bantu baguze ibicuruzwa kuri murandasi...

Amaduka aba kuri murandasi, ukaba waguriraho ndetse ukanacuruzaho ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba handitseho fedegisi mu ibara rya move ndetse na oranje ukaba wasangaho amaduka menshi ay'ukuri murandasi ukaguriraho icyo waba wifuza.

Inyubako nini y'amagorofa menshi, ikaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, akaba ari iduka rifite icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho ihaha doti rwa akaba ari uburyo ushobora guhahira bukorewe kuri murandasi hanze y'iyo nzu hateye ibiti ndetse n'ibyatsi hakaba haparitse n'amamoto ndetse n'imodoka.

Iduka ryo kuri murandasi rya ari expres ni iduka abantu baguriraho ,bacururizaho ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba ari ibikoresho byo mu mabara atandukanye ndetse hariho n'amafaranga wabiguraraho mugihe ushatse kubigura.

Abantu benshi b'abagabo ndetse n'abagore bakaba bari ku cyapa kirimo kiramamaza igitaramo kikaba cyitwa Kigali kikaba kirikutubwira y'uko ugomba kugura itike yawe ikiri ku giciro gito kugira ngo uzabashe kwitabira icyo gitaramo kikaba cyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba ifite ibikuta bifite ibara ry'ikigina, hakaba hari naho bogera mu buryo bwa rusange huzwi nka pisine, hirya yaho hakaba hateye uturarabo twiza ndetse hirya y'iyo nyubako haka n'izindi nyubako nyinshi, hari n'amapoto agenda asakaza amashanyarazi muri izo ngo.

Inzu iherereye mu mugi wa Kigali, akaba ari inzu ikodeshwa ku kwezi amafaranga magana inani y'amadolari y'amanyamerika, ikaba iherereye kibagabaga i Kigali mo imbere hakaba harimo intebe nyinshi ndetse n'imbere yaho hakaba hariyo utubati, hakaba hariho ku gikuta insakazamashusho ndetse n'igikuta kikaba gisa umweru, inzu ikaba itatsemo imigongo nyarwanda harimo n'amarido.

Inzu nini kandi ndende igeretse, ifite amakaro y'umweru ndetse mo imbere ibikuta bikaba bisa umweru, harimo n'amayesikariye asize amabara y'umweru n'umukara, inzugi zayo zisize amabara y'umukara, hakaba hanze hari umugabo wambaye ikositimu ndetse asa nk'aho ari kwamamaza iyo nzu.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ikaba iherereye i Kibagaba ikodeshwa ibihumbi bibiri by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika ikaba ifite parikingi nini, ikaba iparitsemo imodoka itukura akaba ari inzu igeretse isize amabara y'ikigina n'umweru akaba ari igipangu cy'umukara ndetse hakaba hari n'ibiti biteyemo imbere bitoya.

Inyubako nziza isize amabara y'umweru n'umuhondo, ikaba ari igipangu kinini hasi hari amapave ndetse ku ruhande akaba ari utwatsi duteyemo indabyo, ndetse n'ibiti ikaba ari inzu igurishwa miliyoni magana abiri mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda iherereye i Kigali mu Rwanda.

Umugabo wambaye ikositimu akaba yambaye ipantaro y'umukara, ishati ndetse n'ikoti akaba ari hagati mu nzu, ibikuta by'inzu bikaba bisize ibara ryera ndetse n'amakaro asize ibara ryera, parafo nayo isize ibara ryera. Hanze hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti byinshi bikikije inzu.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali mu Rwanda igurishwa, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda. Mu imbere ifite aho abantu batekera, utubati dusize amabara y'umweru, aho wakarabira intoki hasize amabara y'umukara, ikaba ifite inzugi z'umukara, hasi amakaro akaba asa umweru.

Inzu igurishwa, akaba ari inzu ifite ibikuta by'umweru, amadirishya y'umukara, hakaba munzu harimo intebe zitandukanye, hari intebe zo mu ruganiriro z'umweru, ndetse n'umutuku, hirya aho barira hakaba hari intebe z'umukara, hakaba harimo n'imeza, hari umugabo uhagaze uri kwamamaza iyo nzu, wambaye ipantaro y'ubururu, ndetse n'ishati y'ubururu, akaba ari umuzungu.

Ni inzu igurishwa mu mujyi wa kigali miliyoni mirongo itanu n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda, ikaba iherereye i kanombe ikigali ikaba ifite ubwiherero bwiza ndetse naho bakarabira heza hafite inkuta z'ubururu ndetse ukaba ushobora gukaraba unareba n'uri kwihagarika amakaro akaba asa umwero

Inzu nini iri mu mujyi wa Kigali ikodeshwa. Ikaba ikodeshwa amafaranga magana atanu mirongo itanu y'amadolari y'amanyamerika ku kwezi. Ikaba iherereye Kabeza. Ikaba irimo icyuma gikonjesha ndetse kikanashyushya ibiryo, icyuma giteka ndetse n'ibindi byuma wakenera mu rugo. Ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse n'amakaro akaba asa umweru.

Iy'inyubako irimo iragurishwa mu mujyi wa kigali, ikaba ari inyubako iri kugurishwa ibihubi ijana na mirongo itatu by'amafaranga y'amadorari y'abanyamerika, ikaba iherereye kibagabaga, imbere ifite ibikuta by'umweru, harimo n'udufoto tw'imitako harimo igitanda gishashe ndetse n'imisego irimo imyenda y'umweru, hakaba ku ruhande rw'igitanda hari utubati turiho amatara yakumurikira ndetse n'icyuma kiguhungiza mu gihe ushyushye.

Inyubako nziza y'umweru ikaba ifitemo n'utubara tw'umuhondo, ikaba ifite amakaro hasi y'umweru, ikaba ari nini ku buryo ifite parikingi yajyamo imodoka eshatu, iherereye i Kigali, i Kanombe ikaba igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umugabo mugufi wambaye ipantaro y'umukara n'umupira usa nkivu aho arimo araseka areba umuntu uri kumufotora, inyuma ye hari icyapa kinini cyane gisa ubururu.

Inyubako nini kandi nziza ikaba ifite amabara y'umweru, ikaba ifite n'imiryango y'umukara, hakaba hari amavaze ateyemo ibiti bimeze nk'aho ari umutako, hanze haparitse imodoka y'umukara, hirya y'iyo nzu hateye ibiti byinshi kandi birebire, ikaba igurishwa aho iherereye mu mujyi wa Kigali igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Icyumba gisize irangi ry'umweru ku gikuta hariho udushusho tubiri harimo igitanda gifite imisego y'umweru hariho ikiringiti cy'ubururu harimo utuntu tw'umweru ku ruhande hariho akameza gateretseho itara.

Inzu igurishwa ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali ahagana i Kibagabaga, ikaba igurishwa ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu by'amafaranga y'Amadolari y'Amanyamerika, ikaba irimo ibikoresho byose ndetse ikaba ifite inzugi, intebe ndetse n'ibindi bikoresho umuntu yakenera.

Inzu ifite amakaro asa umweru isize irangi risa umweru, ikodeshwa mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ibihumbi magana atanu by'amadorari ku kwezi bifite akabati gasa umukara inzugi z'ibirahuri, bisize irange ry'umukara n'amarido mu nzu.

Inzu igurishwa mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ikaba iherereye i Kanombe, ikaba igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda. Ikaba ifite aho baparika imodoka yisanzuye ndetse yaparitsemo imodoka y'umutuku. Ikaba ifite amakararo y'umweru hasi ndetse no hejuru n'ibikuta byabo bika bisize ibara ry'umweru, igipangu cyayo gisize ibara ry'ikigina.

Inzu ikodeshwa iri ku mujyi wa Kigali, ikaba iherereye i Kanombe, ikaba ari inzu nziza ifite amabara y'umweru, ndetse n'umuhondo, ikaba ifite ibyatsi, ndetse n'ubusitani imbere yayo burimo indabyo, ndetse n'ibiti binini, ikaba ifite ibyumba bitandatu, n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana ane by'amanyarwanda ku kwezi.

Inzu icuruza ibiribwa n'ibinyobwa harimo amata ya mukamira, hakaba harimo firigo ikonjesha ibyo kunywa twaramo umuntu w'umukiriya umaze kuyifata ibyo amaze kurya no kunywa agiye kwishyura yambaye ishati y'umakara rukara.

Inzu ikodeshwa ku munsi akaba arinzu ikodeshwa amadolari ijana y'ayammanyamerika ikaba ifite ibyumba bitatu, ikaba iherereye i Kigali ku ireberoikaba ifite amabara y'umweru ndetse ikaba igeretserutse.

Inzu iherereye i Kigali ikodeshwa, ikaba iherereye i Kagugu hafi ya sitasiyo ya Rubis, ikaba ifite imiryango y'ubururu ndetse ikaba irimo n'amakaro, ikaba irimo ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bubiri, ikaba ikodeshwa.

Inzu ikodeshwa, iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ikaba iherereye i Gacuriro, ikaba ikodeshwa ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika, ikaba ifite ibyumba bitanu ndetse n'ibiro, ikaba isize amabara y'umuhondo n'umweru, kandi ikaba igeretse.

Inyubako ifite amabara y'icyatsi ndetse n'amabati y'umutuku. Ikaba iri mu gipangu kirimo n'izindi nyubako ndetse hakaba hari n'ikigega kinini kibika amazi y'imvura. Ikaba ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri. Iherereye Kimironko. Ikaba igurishwa ibihumbi magana. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu nini nziza igeretse kabiri, ikaba ari inzu ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, ikaba ifite inzugi z'umukara, ikaba iherereye i Kigali kandi ikaba ikodeshwa, ikaba ikodeshwa ibihumbi bibiri by'idolari, hari n'ubusitani imbere yaho ndetse n'uduti dutoya tugiye duteye mu mbuga.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Umugabo wambaye ikositimu n'ishati y'umweru, uhagaze imbere y'inzu igeretse kabiri, ifite igipangu, isize amarangi y'umweru n'irangi ry'ivu, ifite amadirishya n'inzugi byombi bikoze mu birarahure, ikaba iri ku muhanda ifite n'amapave

Inzu nini isa nkaho iri kugurishwa cyangwa iri gukodeshwa, ikaba ifite igipangu cy'ibyuma gisa icyasi ndetse ikaba isize amabara y'icyatsi, umutuku ndetse n'umweru, ikaba ari inzu nziza cyane, hakaba hari umugabo uri hagati yayo wambaye ipantaro ndetse n'ishati n'amarinete, akaba asa nkaho ari kuyamamaza.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali ikaba iherereye kimironko, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'uRwanda ku kwezi, ikaba irimo ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, aho abantu baganirira, aho batekera ndetse n'aho waparika imodoka. Ikaba ari yonyine mu gipangu, ifite ibikuta by'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru.

Inzu nini iri i kanombe i kigali, ikaba ikodeshwa, ikaba ari inzu yubakishijwe amatabari, ibikuta byayo bikaba bisizwe ibara ry'ikigina, amabati akaba asize ibara ry'icyatsi, mu gipangu mo imbere harimo ibiti byinshi kandi birebire.

Inzu nini ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, imbere y'iyo nzu hakaba hateye uduti turi mu mavazi tumeze nk'aho ari umutako. Iyo nzu yubakishijwe amakaro y'umweru, hanze aho hakaba hari amapave, igikuta kikaba cyangwa kurotire ikaba ikotirije amabuye ahiye cyangwa amatafari ahiyera. Hanze hateye n'ubusitani butoya ndetse burimo n'ibiti, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri.

Inzu ikodeshwa ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe mu Busanza, ikaba ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu, ikaba ari inzu ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, hanze akaba ari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'indabyo.

Iyi nzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali, ikaba iherereye Kibagabaga, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe, ikaba ifite imiryango y'ikigina n'igipangu cy'icyatsi, amakaro yayo asa umweru n'igikuta gisize irangi ryera.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ikaba iherereye i Gikondo, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bumwe, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'amanyarwanda ku kwezi, ikaba isize amabara y'ikigina ndetse ikaba ifite n'imiryango isize amabara y'igitaka.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi ikaba ifite inkuta z'umweru hejuru naho hasa umweru, amakaro nayo asa umweru, hakaba hacurizwamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu bagenda bahitamo ibicuruzwa, akaba n'utetagiri, turimo ibicuruzwa n'abandi bantu ku ruhande bahakora mbere yabo hari muri mudasobwa ndetse bakaba barimo banakira n'amafaranga.

Inzu nini bahahiraho ibikoresho bigiye bitandukanye. Hakaba harimo ibikoresho byinshi birimo amatara, imitako yo munzu amabase ndetse n'bindi. Bikaba bimanitse mu tu etajeri abantu bakaba baza kubigura, kugiciro bagiye bumvikanyeho n'umucuruzi.

Inyubako abantu bahahiramo, akaba ari inyubako ndende kandi nini ifite amagorofa menshi, ikaba ifite amakaro y'umweru ndetse n'utwuma tugiye dubuza abantu kuba bakikubita hasi dusize amabara y'umukara, hakaba hari ibyapa byinshi bigenda biranga amaduka bitewe n'icyo ushaka, bikaba biri mu mabara agiye atandukanye.

Inzu bacururizamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu bakoramo bambaye udupira twa oranje. Ndetse n'udutebe twa oranje hakaba harimo n'abantu banshi, bamaze guhitamo ibyo bakora baje kubarurisha amafaranga bagomba kwishyura.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi. Ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Ifite amakaro hasi y'umweru, ndetse n'inkuta z'umweru. Ikaba utubati ndetse n'ibindi bintu byiganjemo amabara y'umutuku. Hakaba harimo imitako myinshi. Hakaba hari abantu barimo baragendagendamo bagura ibicuruzwa. Ndetse hakaba hari n'ahantu umuntu ukoraho yakwicara hari za mudasobwa...

umugabo ufite umusatsi muke, wambaye umupira w'umukara, imbere y'ibara ry'umuhondo insinga zimuciye ku ijosi inyuma ye hari amakanzu y'amabara atandukanye y'ubururu n'umutuku n'umuhondo.

Ahantu bacururiza ibikoresho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hakaba harimo umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umukara asa nkaho arimo arasaba serivisi. Hari n'undi uri kuyitanga imbere ye hari mudasobwa. Hakaba hari intebe ndetse n'imeza.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi, ikaba ari inzu y'amayetage menshi, hakaba harimo umuntu wicaye asa naho ategereje abakiriya, hanze hari ibicuruzwa birimo amakanzu, amabaga cyangwa ibikapu ndetse n'ibindi bikoresho abantu bagenda bacuruza bitewe n'icyo ushaka, ikaba ifite ibikuta by'umweru.

Inyubako nini bahahiramo, iyo nyubako ikaba ifite ibikuta by'umweru, hakaba harimo abantu benshi, abagore ndetse n'abagabo, akaba ari ahantu bacuruza ibikoresho bikoreshwa munzu, bikaba biri muri etageri, iyo etajeri irimo amasorori, amasahani, amateremusi, ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha. Abantu bakaba baje guhaha.

Umugabo wicaye yambaye ishati y'umweru imbere ye hakaba hari akameza kariho agatambaro k'amabara y'umweru n'ubururu, akaba afite mu ntoki agapapuro ka araesesibi gafite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, akaba ari mu nzu ifite inkuta z'umuhondo ndetse iyo miryango n'amarido ku madirishya.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda w'ibyerekezo bibiri, hirya harimo haracamo imodoka nyinshi zifite amabara agiye atandukanye, harimo imodoka zitwara abantu ku giti cyabo n'izindi zitwara abantu mu buryo bwa rusange, hagati y'imihanda hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hubatse n'amazu maremare y'ama etaje.

Abantu babiri bahagaze barimo barahererekanya akantu k'agakapu, umwe akaba ari umugabo wambaye ikositimu isa ubururu hakaba hari n'umukobwa wambaye umupira w'umukara ndetse n'undi mupira wo kwifubika w'umukara, inyuma yabo hari igikuta cy'ubururu cyanditseho amagambo ya araesesibi.

Abantu benshi bari hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, abantu bakuze ndetse n'abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano za kinyeshuri, hirya yabo hakaba hari ibibuga bakiniraho umupira ndetse hakaba hari n'amazu hirya yabo, hari ibiti byinshi biteye inyuma y'ayo mazu, hagati hakaba hari umugabo uhagaze wambaye agapira k'ubururu ufite n'indangururamajwi uri kubagezaho ubutumwa, hakaba hari n'ibyapa byinshi bya ejo heza na RSSB.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru ndetse irimo n'uturongo tw'umukara. Akaba afite n'isaha ku kuboko. Akaba ari arigufatanye n'umugore w'igikara wambaye amarinete ndetse n'amaherena. Akaba yambaye ikanzu y'ubururu. Bakaba basa nkaho barikubyina. Akaba ari ubutumwa bwa RSSB bikubwira yuko ugomba gutangira kugana serivisi ya ejo heza kugira ngo witeganyirize mu myaka izaza.

Umugabo wambaye kositimu akaba bamutunze mikoro arimo aragezaho abamukurikiye ubutumwa akaba ari amakuru y'ikinyarwanda kuri tereviziyo y'u Rwanda, akaba umutwe wayo uvuga ngo Ejo Heza fandi, inyuma ye hari icyapa kiriho umugore uri guseka wambaye imyenda y'umutuku ndetse hakaba handitseho Ejo Heza mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Umugabo ufite icyuma bahondesha cyitwa inyundo mu ntoki akaba yambaye igisarubeti cy'ubururu n'ishati y'ubururu mbere yambaye na marineti akaba afite n'ingofero mu mutwe akaba ari kutubwira y'uko tugomba kwizigamira ndetse no kwiteganyiriza ejo heza ntituzatinye izabukuru kuko twizigamiye kandi twiteganyirije.

Mituweli y'umwana, ikaba isa ubururu ndetse hariho n'ifoto y'umwana, hakaba hariho n'imyirondoro ya nyiri iyo mituweli, ikaba ikoreshwa mu kwivuza mu gihe nyiri mituweli yarwaye, hirya akaba hari igikuta gisa ubururu.

Icyumba gifite amakaro y'umweru, parafo y'umweru, inkingi z'umweru harimo uduce tugiye dutandukanye, harimo udufite ibara ry'umutuku, umuhondo, icyatsi.

Inzu nini bahahiramo izwi nka superimarishe ikaba irimo ibicuruzwa byinsh kandi bigiye bitandukanye, hakaba harimo utu etajeri dukozwe mu mbaho tugiye turimo ibicuruzwa, ikaba ifite parafo y'umweru ndetse n'amakaro y'umweru n'umukara.

Umukobwa w'irabura wambaye ishati y'umweru, uteruye ijage nk'igikoresho bifashisha babuganiza amata cyangwa se basuka amata ndetse akaba afite igikoresho mu kuboko kw'iburyo, imbere ye hakaba hari indobo bashyiramo amata ndetse n'indi jage iteretse ku meza n'ikayi ndetse nyuma ye hakaba hari igikoresho bifashisha babika amata nka firigo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ku ruhande rwayo hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru tukaba dukikijwe n'ibiti birebire hari imodoka iparitse ku ruhande, hakaba hari icyapa kinini cyanditseho Simba supamaketi kiri iruhande ndetse hakaba hari n'igiti giteye iruhande rwe abantu bakaba barimo barinjira muri iryo duka.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hakaba barimo umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu ndetse n'agapira k'amaboko magufi, akaba arimo arakurura ibicuruzwa, hari na etajeri irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo fanta, amaji, ndetse n'indi mitobe hakaba harimo n'amata.

Isoko rya kijyambere ryitwa mega harimo ububiko bw'abakonjesha bufite inzugi z'ibirahuri, akagare gateretse ku makaro, hari amavuta, amafarini.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, izwi nka superi marishe, ikaba ifite makaro y'umweru, ikaba ifite n'utu etaje tugiye turiho ibicuruzwa bigiye bitandukanye, haririmo imigati, imitobe, ibizuguti n'ibindi ndetse hakaba n'icyuma gikonjesha ibintu kizwi nka firigo.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hari ama etajeri arimo ibicuruzwa byinshi abantu baza guhitamo, hakaba hari n'ahandi ku ruhande hari imbuto nyinshi zirimo inyanya, ibitunguru ndetse n'amapome.

inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse hasi amakaro akaba asa umweru, hari utu etageri dufite amabara y'umutuku tugiye turimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo amavuta yo kwisiga, amavuta bakoresha bakora amasuku ndetse n'ibikoresho bakoresha by'isuku mu bwiherero ndetse n'ibindi byinshi. Hari n'ibyapa binini by'icyatsi byanditseho sawa siti.

Iduka rinini bacururizamo ndetse bakanaguriramo ibikoresho bigiye bitandukanye hakaba harimo abantu harimo umugore wambaye ikanzu afite n'igikapu mu ntoki hirya hari etajeri irimo ibicuruzwa abantu bagura hakaba harimo imigati ndetse n'ibisuguti.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo umuntu w'umugore ufite akantu mu ntoki arimo aragenda ashyiramo ibicuruzwa ashaka guhaha. Muri iyo nzu harimo etajeri irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye cyane cyane higanjemo ibyo guteka harimo, inyanya, karoti, inoryi, pavuro ndetse n'ibindi.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ikaba ifite amakaro y'umweru hasi ndetse n'umukara, ikaba ifite n'inkuta z'umweru. Hari utu etajeri tugiye turimo ibikoresho bagurisha ndetse hirya hari icyuma gikonjesha ibicuruzwa kugira bidapfa, harimo ibinyobwa cyane cyane.